Ni igipapuro cyangwa ni itangazo cyangwa ni nko kwamamaza ahantu runaka batangira serivisi z'ibinyabiziga kugirango uba ufite ubwishingizi mu binyabiziga byawe mu gihe waba wagiye wahuye n'ikibazo bukaba buzakugoboka.

Ni umuntu ufite ubucuruzi bugiye butandukanye buzwi nka botike bukore bufasha abaturage mu kuwuhabwa ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu ngo z'abantu.

Ni ubwoko bw'imodoka bwasohotse ahasaga mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, bukaba buri kugurishwa ku giciro cya miliyoni cumi na zirindwi.

Ni imodoka ifunguye kandi irimo imeze nkaho yerekana mu imbere hayo uko hameze cyangwa uko hateye n'ukuntu n'ibiyikoze cyangwa n'uko hameze mu imbere hayo.

Ni amafaranga y'amanyarwanda kandi akoreshwa n'abanyarwanda kandi ayo mafaranga akaba afite ikirango cy'ikinyarwanda, akaba ari inoti nkuru y'u Rwanda ikoreshwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ni amafaranga y'igihugu runaka akoreshwa mu bintu biba bigiye bitandukanye, umuntu yifashisha bya buri munsi akaba yakenera kuba yakoresha ayo mafaranga.

Ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibiribwa bigiye bitandukanye byaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa bijyiye bitandukanye, ni ahantu habera ubwo bucuruzi.

Ni akabido karimo amata kandi kakaba gafite n'igipapuro kikaranga cy'igihe ayo mata azarangirira cyangwa ayo mata yakorewe n'igihe azarangirira.

Ni icyemezo cyangwa ni agapapuro baguha mu Irembo cyangwa ahantu hari Irembo, mu gihe umaze cyangwa wasoje kwishyura ibijyanye n'imisoro y'ubutaka cyangwa n'imisoro iyo ariyo yose ufite.

Ni icyuma gikoreshwa kibara amafaranga ayo ari yo yose agiye atandukanye icyo cyuma kikifashishwa mu kubarayo mafaranga cyane cyane iyo ayo mafaranga yari ari menshi nibwo twifashisha kino cyuma.

Ni amafaranga cyangwa se ni inote ikoreshwa mu gihugu kizwi nk'Ubuhinde ayo mafaranga akaba ariho akoreshwa.

Ni ahantu ubanza ugiye kwaka serivisi runaka, aho hantu ni ho ubanza kuba waca cyangwa bakaba bakurangira icyumba cyangwa ahantu ugiye kwakira serivisi ubanje guca aho hantu.

Ni ahantu runaka, agace runaka kaberamo imirimo igiye itandukanye kandi kakaba kanatuwe bigaragara hakaba hariyo, hagenda, hariho n'umuhanda uhaca imbere ndetse hagenderwa, hanagendwa cyane aho hantu.

Inzu runaka ifite ahantu muri saro ahantu heza ho kwicara cyangwa ugasanga ari muri y'amazu yitwa amohoteri bakoresha bari kuruhuka cyangwa bicaye baruhuka.

Ni ahantu nyaburanga abantu bashobora kuba basohokera, bagiye kuba baruhuka cyangwa se bagiye kuba baharuhukira muri make.

Ni inyubako yagenewe ubucuruzi bwo gucumbikira abantu runaka, aho hantu kandi bakaba bana banafatiramo n'amafunguro muri iyo nyubako yagenewe aho hantu bacumbikiramo abantu.

Ni ahantu runaka hagenewe kuba haruhukirwa cyangwa hakifashishwa mu bijyanye no kuruhuka, cyangwa kwiyitaho, cyangwa kuganirira n'abantu.

Ni ahantu habera cyangwa hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye bijyanye no gutanga ubwishingizi runaka, iyo aba ari inyubako yagenewe aho ibyo bintu.

Ni icyapa gisobanura ubucuruzi runaka ahantu runaka habera ubucuruzi bugiye butandukanye, icyo cyapa kiba kerekana ibyo bintu biberwa muri iyo nyubako cyangwa aho ahantu runaka.

Ni icyapa kiranga cyangwa kikerekana ahantu habera ibintu bigiye bitandukanye kandi icyo cyapa kikaba gisobanura ibyo bintu bibera aho hantu ibyo n'icyo ibyo bintu bifasha abantu cyangwa bikoreshwa mu bantu.

Ni umuntu ukora ubucuruzi bujyanye n'imineke cyangwa acuruza imineke, akaba ari kujya ahantu runaka, cyangwa ajyanye ibicuruzwa bye ahantu runaka.

Iyi foto iratwereka icyapa cya eyateri ikatwereka umuntu ufashe urupapuro mu kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite na terefone mu kuboko k'iburyo akaba ari gufotora urupapuro.

Ni ahantu runaka umuntu ajya agiye kwaka ubufasha runaka mu bintu bigiye bitandukanye, agasangayo umuntu uzajya umufasha muri ibyo bintu cyangwa umusinyira muri ibyo bintu.

Ni umuntu uri mu muhanda hagati y'ibibanza bibiri, ku ruhande rw'buryo n'iruhande rw'ibumoso, akaba ari kwerekana ko cyangwa akaba yerekana ko aho hantu hari kuba hagurishwa.

Ni ahantu runaka hari inzu mu mujyi wa Kigali, irimo iragurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Ni inzu ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, bikenerwa mu gikoni cyangwa ahantu batekera, ibyo bikoresho bakabiguhereza utanze amadorari magana atanu mirongo itanu mu gihe kingana n'ukwezi.

Ni icyumba kirimo ibintu bijye bitandukanye; harimo nk'igitanda, matora n'ibindi bitandukanye, kikaba ugihabwa wishyuye amadolari, amafaranga azwi nk'amadolari magana inani, kugira ngo ube watizwa cyangwa wahabwa icyo cyumba.

Ni ubwiherero n'ubwogero buba mu nzu bukaba buri mu nzu bigaragara yuko irimo iragurishwa.

Ni icyumba icyo ari cyo cyose gikoreshwa n'abantu, kirarwamo n'abantu, icyo cyumba akaba ari icyumba cyiza gifite n'ahantu heza, gikoreshwa n'abantu.

Ni inyubako igeretse inshuro imwe, ikaba irimo iragurishwa, mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kimironko.

Ni ahantu habera ubucuruzi bw'imyenda iyo ariyo yose, kandi hakaba hanakorerwa iyo myenda mu bintu bizwi nk'ubudozi, hakaba n'aho hantu bihakorerwa ibijyanye n'ubwo budozi ndetse no kugurisha imyenda.

Ni ahantu habera ubucuruzi bugiye butandukanye bukaba bubera aho hantu, ubu mu bijyanye no gufasha abantu mu bintu bigiye bitandukanye baba bakeneye byo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ahantu hicarirwa cyangwa wicara utegereje guhabwa ubufasha runaka mu hantu waje kwaka ubwo bufasha cyangwa ahantu utegereje ko waba wafashwa n'ubwo bufasha.

Ni inyubako igeretse iberamo ubucuruzi bugiye butandukanye, kandi bukaba bubera muri iyo nyubako iriho imbere.

Ni ahantu habera ubucuruzi bugiye butandukanye, buhuriramo n'ibi n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bugafasha buri muntu wese ushaka buri kintu cyose umuntu ashaka akaba yakibona aho hantu.

Ni ahantu habera ubucuruzi bw'ibintu bihuriye hamwe byinshi, bikoreshwa cyangwa bikagurwa n'abantu mu gihe binjiye aho ahantu bakaba babona ibyo bahakeneye muri ibyo muri aho hantu.

Ni ahantu habera ubucuruzi bugiye butandukanye, ahantu hamwe habera ubucuruzi kandi bw'ibintu bigiye bitandukanye, aho hantu bikaba birimo ibyiganjemo ibiribwa, ibinyobwa, akaba ari byo bigiye byiganjemo aho hantu.